Abantu biga mekanike, yabagamo icyiciro cyiga gukanika amamodoka, aba abantu biga kukanika mu modoka, baba bategetswe kubyiga neza, kugira ngo bajye babikora neza.

Aba banyeshuri bajyanye amakayi yabo gukotesha kwa mwarimu. Hari abarimu bandika note, noneho bamara kuzandika igihe cyazagera bakazabaza abanyeshuri note, ndetse bakanakota kugira ngo babashe kubona ko abanyeshuri bakurikirana icyabazanye ku ishuri ari cyo cyo kwiga.

Mu mashuri habamo amasomo menshi atandukanye, hari abiga ibijye no guteka ari byo bita amahotereri, naryo riba isomo ryiza cyane.

Mu bigo by'amashuri bakunda kubigisha ayisiti, bakabigisha uburyo bakoresha amamashini, n'uburyo basacinga ibibazo kuri interinete

Aba bantu bari muri pirizo, baba muri diparitoma y'ababaji. Kuko bigaragara ko bakora intebe, bakazibaza, bakazikora neza. Uyu mwuga rero ni mwiza cyane, iyo uwuzi ushobora kuguteza imbere, cyane cyane nk'urubyiruko, ubabateza imbere.

Abakobwa bakora amasuku atandukanye, nk'abangaba bigaragara ko baje gukoresha inzara zabo ,ndetse bashobora no kubasigira inzara ,bakazica cyangwa se bakanazinanura, bakabazingira n'imisatsi bakayisuka.

Ku ishuri hatangirwa ubumenyi bwinshi cyane kandi butandukanye, hari abiga ibijyanye no kubumba, nk'ubu bakaba babumba umuntu cyangwa inyamaswa n'ibindi.

Mu masomo yigwa mu Gihugu, harimo ibyiciro bitandukanye. Hari abiga amasiyansi, hari n'abandi biga imyuga. Mu myuga rero habamo iyo bita mekanike, n'abiga ibijyanye no kwesitara amashanyarazi.

Icyuma bita mikorosikopi, abanyeshuri bambaye amashati y’umweru，bafite n'amakaramu，bari kureba mu cyuma bita mikorosikopi.

Umwuga w'ubudozi ni mwiza cyane kuko iyo wawumenye ubasha kudodera umuntu, noneho akaguha amafaranga, noneho ukazajya ubona inyungu cyangwa se amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu ishuri rya IPRC cyangwa se RP. Muri iri shuri bigishamo amatekinike, bigishagamo ibintu byinshi cyane bijyanye cyane cyane no kwihangira imirimo: mekanike amatekinonorogi, eregitirisiti n'ibindi byinshi cyane.

Mu mashuri biga ibintu byinshi cyangwa se bitandukanye, hari abiga ibijyanye n'ubuganga, abiga ibijyanye n'ubugenge, ibijyanye n'ubutabire n'ibindi, ubwo rero abantu biga ibijyanye n'ubuganga, bakora amapuratike mu ma raboratwari.

Kwiga kudoda ni byiza cyane, kuko ni umwuga uteza abantu imbere, kandi ukabafasha kubona amafaranga, bashobora kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Amadirishya n'ibitambaro bitwikira amadirishya，abaganga bafite amacupa arimo imiti, n'utuntu tumeze nk'udutenesi.

Kwiga ibijyanye n'imyuga biba byiza cyane kuko iyo umuntu abirangije ashaka yishakira akazi cyangwa se imirimo yakora ijyanye n'ibyo aba yarize.

Habaho umwuga ujyanye no gukora mu bintu bijyanye n'amashanyarazi, ku ishuri rero barabyiga abanyeshuri, iyo babisoje barakanika cyangwa se baresitara amazu, bagakora n'ibindi byose bijyanye n'amashanyarazi.

Abanyeshuri bagira impano zitandukanye. Hari abagira impano zo gushushanya, abandi bakagira impano zo kubumba utuntu dutandukanye, abandi bakazajya bagira impano zo kwiruka no gukina n'ibindi byinshi cyane.

Kwigisha abanyeshuri ba pirimeri ni byiza cyane, kuko iyo bize neza bakura bafite ubumenyi ndetse n'ubuhanga bwiza cyane, noneho n'andi mashuri yisumbuye na za kaminuza bakazayiga neza cyane.

Kuko aho bacumbikira abanyeshuri hari ibigo usanga bateka neza, cyane cyane bakanabakoresherera iminsi mikuru, no neho kuri iyo minsi mikuru bakaba babitaho cyane, bakabaha ibiribwa byiza cyane bidasanzwe bitanga.

Iri shuri bigishamo umwuga ujyanye n' ubwubatsi, ariwo bita masonari cyangwa se maso, umwuga mwiza cyane kuko umunyeshuri wawize ashobora kugira ikiraka, akajya kubakira umuturage cyangwa se akajya kubaka muri kampani runaka, bityo akabona amafaranga.